Ibigo byinshi bitwara abagenzi ukunze gusanga bifite abakozi bagiye batandukanye, bityo imodoka zabo zikabona abazitwara kandi baga bagakorera amafaranga bisanzwe. Ibyo bikorwa igihe bahawe imishahara ku gihe kugira ngo babashe gutunga imiryango yabo.

Aba ni abakozi ba kampani ya Eyateri tigo barimo batanga serivise ku bakiriya.

Mu gihe leta yegereje abaturage ibikorwa remezo, ni ngombwa ko nabo hari ibindi bi baba bagomba gukora nk’ubucuruzi, ubudozi, ububaji ndetse n'ibindi bityo hakaba no gucuruza amafaranga ahamagazwa kuri telefoni.

Hano ni kuri kiyosike y'umukozi wa MTN ubikuririra abantu ndetse akanabishyura amafaranga.

Ikigo gishinzwe itumanaho mu rwanda kizwi ku izina rya MTN, akenshi bitanga akazi ku bantu baje bakigana kugira ngo babashe kwibeshaho, ndetse batunge n'ingo zabo bacuruza ama inite, ndetse bohereza n'amafaranga ahantu hagiye hatandukanye.

Ikigo cy'itumanaho mu rwanda kizwi nka MTN gikunze gutanga akazi ku batari bakeya aho kibafasha kwiteza imbere bacuruza amainnet ndetse babikurura abantu, bityo bigatuma babasha kubaho neza bagatunga n'imiryango yabo muri rusange.

Mu mirimo ya buri munsi abantu bakora harimo: nk'ubumotari, gucuruza amayinite se cyangwa se gucuruza ibindi bikoresho bitandukanye kugira ngo abantu bakomeze biteze imbere.

Aba ngaba ni abakozi b'ikigo k'itumanaho mu Rwanda cyitwa Eyateri bakaba bari mu bikorwa byo gucuruza amayinite ndetse no gutanga amafaranga binyuze muri Ayiteri mani.

Ubuhinzi bufatwa nk'inkingi ya mwamba igize abaturage baba batuye mu mijyi cyangwa se mu byaro, cyane ko mirongo icyenda ku ijana dutungwa n'ibivuye mu butaka bityo twashyizemo imbaraga zihambaye cyane kugira ngo tubone imboga ndetse n'imbuto.

Aha ni muri pipinyeri, ahahinzwe ingemwe z'ibiti bigiye bitandukanye ndetse hakorerwa n'igikorwa cyo kubangurira ibyo biti kugira ngo bitange umusaruro uhagije kandi ukwiriye.

Abakozi bo mu mabanki bagomba kwakirana urugwiro abakiriya baje babagana igihe baje kubitsa amafaranga ndetse bakanabahereza ibyangombwa birimo impapuro zo kuzuza kugira ngo babone amafaranga.

Ubuhinzi bw'inanasi, bukunze gutanga umusaruro, uri hejuru cyane, bitewe n'uko abazihinga, bibumbira mu matsinda, maze bagasangira inyungu, hamwe.

Gutera ibiti ku mihanda ndetse n'ahantu hahanamye, bituma habaho kwirinda isuri binyuze mu guhumbika ingemwe, ibyo bigatuma ababikora babona amafaranga cyane ko iyo izo mbuto zigemuwe ba nyiri kuzitwara batanga amafaranga.

Abayobozi bagiye batandu akenshi usanga bubahiriza inshingano zabo. Ibyo bakabigeraho bahigura imihigo bahize ndetse bagashyira mu bikorwa ibyo barahiriye gukora. Ibyo bigatuma bahabwa amashimwe agaragaza yuko bakoze neza.

Mu gihe habaye inama runaka, abayobozi, abanyamuryango ndetse n'abaturage muri rusange, bakwiye kwicara bacecetse ndetse batuje kugira ngo bakurikirane ibyo barimo babwirwa kandi bateguriwe.

Abahinzi b'imbuto zigiye zitandukanye bakwiye guhabwa amahugurwa igihe barimo bahinga ndetse bagakomeza gukurikiranwa kugira ngo umusaruro w'ibihingwa byabo ukomeze kwiyongera kandi ugwire kandi ku bwinshi.

Abakarani bihurije mu mwuga umwe wo kwikorera imizigo ndetse n'ibicuruzwa ndetse no gupakurura nk'uko bigaragara kuri iyi foto, aho barimo bapakurura imizigo ivuye mu modoka.

Hano ni mu kabari gacuruza inzoga z'amarikeri.

Iri ni isoko ry'amafi, ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Ndaho na butike aho bacururiza ibintu bijyanye no kurya birimo amandazi ndetse n'amajerekani n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Akenshi abacuruzi biteza imbere, bacuruza ibyokurya bigiye bitandukanye, birimo umuceri, akawunga ndetse n'ibindi, binyuranye.

Ndabona umubyeyi, uri muri watiki cyangwa se mu iduka, ari mu gucuruza ibicuruzwa bitandukanye.

Inyubako nyinshi z'ubucuruzi zikunze kuba zicuruza amakaramu, ibyirori ndetse n'amakorogati yifashishwa mu kuborosa amenyo.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ubucuruzi bw'imbuto, aho abantu baje kuhahahira muri rusange.

Imwe mu myuga ikunze guteza imbere abatari bake bakikenura mu gihe gito habamo n'ubucuruzi, ibi ngibi bifasha ababikora kubona umusaruro mu gihe gito kandi bakabaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi aho batunga imiryango yabo ndetse ikabaho neza.

Amazu agiye atandukanye y'ubucuruzi akunze gucuruza ibikoresho birimo imitako igaragaza ubugeni, ibyo bigafasha ababikora gukomeza kwiteza imbere ndetse banibeshaho banihangira umurimo.

Imibereho y'abaturage ya buri munsi ishingira ku bikorwa bakora ndetse birimo nk'ubucuruzi. Aho bamwe usanga bacuruza: inyanya, imbuto n'imboga n'ibindi bituma abaturage bashobora kubaho; bityo bigatuma iyo myuga yabo cyangwa se iyo mirimo ibafasha kwibeshaho.

Insengero ni zimwe mu nyubako zigenda zitera imbere umunsi ku munsi, cyane ko abayoboke bazo badahwema gutanga amaturo bityo zikavugururwa, izindi zikagaragara neza.

Aha n'urusengero aho ababishinzwe barimo guturisha cyangwa se barimo gutanga amaturo.

Amadini agiye atandukanye akunze kugira abayoboke bitewe n'uburyo bayemeramo, cyane cyane ko imyemerere y'abantu ariyo ituma bagana amatorero, ndetse bakaba bagira n'ibindi byinshi bageraho bafatanyije.

Idini rya gikatolika usanga rikomeje abayoboke benshi, ndetse kuko ryabayeho kera cyane, bityo rihamiriza abaturage ukwemera, kubaho babanye neza ndetse mu bumwe cyangwa ubundi.

Mu madini ndetse n'amatorero agiye atandukanye usanga abakiririsito bafite umumaro uhambaye cyane. Aho bitanga bagatanga n'ubushobozi ndetse n'imisanzu kugira ngo insengero basengeramo zubakwe. Ibyo bakabifashishwamo n'umutima ukunda.

Amahoteli, amaresitora ndetse n'izindi nzu zakira abakerarugendo cyangwa se abashoramari n'abandi bakire muri rusange, baba bagomba kugira ibikoresho byabugenewe ndetse bakanabungabunga isuku iri aho bakorera.

Iki ni icyumba cya hotel, aho abakiliya bakizamo bashaka kuruhuka, ndetse bagasangamo buri kimwe.

Hano ni aho abakerarugendo ndetse n'abandi bantu bakora imirimo igiye itandukanye, baza gufatira amafunguro yabo ndetse n'ibyo kunywa mu gihe barimo baruhuka bategereje ko ejo bazasubira mu kazi.

Ibyumba bigiye bitandukanye byo mu nzu zagenewe kwakira abakiriya ndetse n'abakerarugendo byo mu mahoteli, bikunze kuba bifite isuku ndetse bishashe neza kugira ngo ababigana bajye bagaruka n'ubutaha.

Inyubako z'amahoteli, zikunze kuba ziri ahantu heza cyane hakurura abakiriya, cyane ko ziba zitanga na serivisi ku bantu bagiye batandukanye, aho zakira abakerarugendo, abandi bantu bananiwe ndetse n'abashaka kuruhuka muri rusange, zikanabategurira ibiryo byiza binoze.

Iki ni icyumba kimwe muri hoteri, gishinzwe kwakira abakiriya igihe barushye cyangwa se igihe baje gufatiramo agahe k'akaruhuko, baje no kuharuhukira.

Ni ngombwa ko amahoteri ndetse n'andi mazu yose ajyanye nayo yakira abatari bake agomba kuba afite ibyumba byabugenewe ndetse agatanga n'amafunguro ku buryo bumwe cyangwa ubundi kandi meza ateguye neza.

Amazu yagenewe kwakira abakerarugendo ndetse n'abandi bashoramari bagiye batandukanye akunze kuba yubatse neza, aho aba arimo ibyumba byabugenewe bishinzwe kwakira abakiriya ndetse agatanga ibyo kurya birimo n'ibinyobwa by'amoko yose.

Abakerarugendo ndetse n'abandi bashoramari, bakenera amahoteli nk'uburuhukiro, aho bahabwa ibinyobwa ndetse n'ibyo kurya, bigatuma bicara bagatekereza ku kazi kejo bazakora ntankomyi.

Mu rwego rwo kubungabunga ndetse no gufata neza abakiriya baza bagana amahoteli ndetse n'amaresitora agiye atandukanye, bakunze kubategurira ibyo kurya byiza ndetse n'ibyo kunywa cyane ko baba bafite n'aho kuryama heza kugira ngo ubutaha abakiriya bazagaruke.

Abantu iyo baryamye ahantu heza ndetse hafite isuku, akenshi bakunze gusinzira cyane, naho iyo baryamye ahantu hatari heza, bituma badasinzira ndetse bakabura n'ibitotsi.

Ubworozi bw'ihene bukunze gutanga umusaruro igihe zikurikiranwe neza ndetse zikitabwaho n'abaganga babugenewe ibyo bigatuma abaturage biteza imbere.

Amasoko agiye atandukanye akunze gucuruza ibicuruzwa bigiye binyuranyuranye aho usanga harimo inyanya ndetse n'ibindi bicuruzwa by'imboga, ibyo bigatuma ababihaha babibona ku bwinshi kandi bitabagoye mafaranga atari menshi.

Mu mibereho y'abaturage ya buri munsi, bibasaba gukura amaboko mu mifuka bagakora, aho bamwe bakora imirimo igiye itandukanye, irimo gucuruza, nk'imboga, imbuto ndetse n'ibindi. Bityo rero bikabafasha gutunga imiryango yabo, bitagombeye kugira ngo bibe.

Aha ni mu isoko ry'imboga ndetse n'imbuto. Nonese ko ari ibyo nipoje ko ugomba kuba ubizi na nyiri ubwite!

Mu rwego rwo kwegereza abaturage ibikorwa remezo, abaturage bashishikarizwa kujya gukorera mu masoko aho bibumbira mu matsinda bityo bikabafasha gukomeza kuzamura umusaruro wabo w'ibyo bakora ndetse n'ibyo bacuruza muri rusange, ibyo bigatuma biteza imbere.

Ibi ni ibikoresho bya kinyarwanda bicuruzwa ku masoko ndetse no ku mihanda, birimo utuyunguruzo cyangwa se utuyungirizo ndetse n'imyuko, birambuye kuri shitingi aho bitegerejejwe kugurishwa.

Ahan ni mu isoko ryo mu cyaro, aho abazunguzayi cyangwa se abandi bantu babacuruzi b'imyenda bacururiza imyenda yabo.

Amasoko agiye atandukanye aremera ahantu mu byaro akunze kwegerezwa abaturage aho babona ibyo bakeneye batagombye kujya mu mijyi cyane ko n'amatike agerayo aba ari ikibazo, ibyo bigatuma abaturage barimo n'abakuze n'abasaza babasha kubona ibyo bakeneye.

Iki ni icyumba kiri mu isoko runaka, aho abagikoreramo bacuruza ibitenge bikorwamo myambaro igiye itandukanye nk'amashati, amapantaro ndetse n'indimyambaro y'abadamu.

Ubuhinzi bw'imbuto ndetse n'imboga z'imiteja bukugenda buteza imbere abaturage, aho ubu babasha kwihaza ubwabo bagasagurira n'amasoko muri rusange, kandi bagakemura n'ibikorwa byabo ku giti cyabo bigiye bitandukanye.

Mu rwego rwo kubungabunga abakiriya baza bagana amahoteli, amaresitora, ndetse n'ibindi bagomba guhabwa ubufasha buboneye burimo serivisi nziza aho babategurira amafunguro ndetse n'ibyo kunywa bimeze neza.

Inyubako zikoreramo amaresitora, zikunze kwakira abakiriya barimo n'abakerarugendo, bikabategurira amafunguro agiye atandukanye arimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa.

Aha ni muri resitora aho abakiriya barira ndetse bakaniyakirira, hari amasahane ndetse n'ibiribwa bigiye bitandukanye bipfundikiye.

Hano ni muri resitora, aho abaturage cyangwa se abakiriya baza kwiyakirira, bakahafatira ibyo kunywa n'amafunguro.

Ni ngombwa ko amaresitora menshi akwiye kugera ahantu habugenewe abantu biyakirira bakahafatira amafunguro igihe baje bahagana, bityo bigatuma n'ubuta bazagaruka kandi bagatambukira kwishima.

Ibikorwaremezo ni bimwe mu byo Leta igenera abaturage. Bikabafasha koroshya ubuzima bwabo ndetse n'imikorere yabo. Cyane cyane ko abahinzi bo mu cyaro, usanga bakenera imihanda mizima, kugira ngo bageze ku isoko ibyo bahinga. Ibyo bakabikora mu gihe bafite aho babinyuza heza.

Gutwara abantu ndetse n'ibintu hifashishijwe ikinyabiziga cya moto, bikunze guteza imbere abakora ako kazi ndetse bakanakemura ibibazo bigiye bitandukanye mu miryango yabo.

Gahunda yo kurwanya ubukene mu baturage, igenda igera ku ntsinzi, aho abaturage bagura amagare bakajya bajya mu mihanda kunyonga batwara abagenzi, bakikura mu bukene.

Abamotari ni bamwe mu bantu bakora umwuga wabo wo gutwara abagenzi, ndetse bikabatunga n'imiryango yabo kuko babikora babikunze kandi babyerekeje ho umutima.

Aba ni abantu bakora umwuga wo gutwara abantu aribo bitwa abamotari, batwara abagenzi ku mamoto yabo cyangwa se ku mapikipiki yabo babageza aho bagiye.

Umugabo n'umugore bari kwigare bahekanye, bari mu muhanda bajya guhinga.

Abamotari ni bamwe mu bantu bashimira Leta y'u Rwanda kuba yarashyizeho ibikorwa remezo birimo imihanda, ibyo bikanabafasha gutwara abantu ndetse bakabona ibibatunga n'imiryango yabo bityo n'abana babo bakajya ku ishuri, ibyo bikabafasha mu bikorwa byabo bya buri munsi bakora.

Ubuzima bw'abaturage b'umunsi ku munsi, bushingira ku bikorwa ndetse n'imyuga bakora. Nk'umwuga w'ubumotari ukunze gutunga abatari bakeya, babarirwa mubihumbi bibera mijyi kubaho ndetse bagatunga n'imiryango yabo.

Mu gihe Leta igejeje ibikorwaremezo ku baturarwanda birimo imihanda biborohereza mu ngendo zabo, nk'abatwara amagare ndetse n'amamoto bituma babasha gutwara neza abantu kandi bakabageza aho bagiye amahoro.

Kwiga amategeko y'umuhanda. Bigira akamaro kuko bifasha uwize ayo mategeko neza. Gutwara ikinyabiziga ndetse akirinda impanuka zitateganijwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

Leta yaba nyarwanda ishishikajwe no kwegereza abaturage ibikorwa remezo, birimo imihanda yifashishwa mugutwara ibintu n'abantu, aho ibinyabiziga birimo nka moto ndetse n'amagare hamwe n'imodoka byifashishwa mugukoresha iyi mihanda.